Umugabo umwe arimo arareba muri terefone yambaye isaha yambaye umupira urimo amabara y'umweru n'ikigina, ari imbere yumuntu ubitsa unabikuza arimo aramusaba amafaranga.

Abasore babiri bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku, bari mu mutaka wa Airtel wanditseho n'ikirango cyawo usa umutuku, hirya hari agasanduka kanditseho mobile money MTN, ni umuhondo ko.

Ari mu kazu ka MTN, ashinzwe gutanga amayinite kubitsa no kubikuza, ni umugore wambaye umupira w'icyatsi gisa nk'icyerurutse, ku ijosi haciyeho icyatsi kijimye arimo aracuruza.

Bari mu nama bambaye imyenda y'umuhondo, ni abasore bari hamwe n'abayobozi ndetse hari naba mama bari mu ihema bose ry'umuhondo, hirya yabo hari amagare ya siporo.

Akazu ka Airtel ni akazu karekare kubabatse gasa nkaho gafite ikidirishya kinini, umuntu iyo agifunguye akaba arimo imbere abari inyuma babasha kugura. Hino hari umutaka ushinze ku kameza, bigaragaza ko bacuruza amayinite.

Hari inyubako nini cyane yanditseho Equity Bank, hari abantu benshi bayiri imbere ni abagabo n'abagore, bamwe bari imbere abandi bari inyuma bisa nkaho baje kubitsa no kubikuza.

Abagabo n'abagore bari ku kazu ka MTN, aho mo imbere harimo umukobwa uri kubaha amaiyinite, ni akazu k'umuhondo, bigaragaza ko kakira abantu ba MTN gusa.

Abagabo babiri umwe arunamye ku ntebe, ni intebe zimwe z'umweru bari imbere y'inyubako, aho abantu benshi baje hino yaho hari umutaka wa Airtel.

Akazu ka Airtel karimo akandi kabogisi kameze nk'agasandukuka babikamo, na ko gashushanyijeho ibirango bya Airtel hirya hari umuhanda ndetse hari n'amapave, ni aho bacururiza serivise z'amayinite.

Ni inzu ya Airtel, bacuruza amayinite, irakinguye, nta muntu urimo kandi nta n'umukiriya uri hafi, ibigaragara byo ni ahantu bacururiza amayinite gusa.

Imodoka iparitse irimo imifuka myinshi barimo barashyiramo n'indi kugira ngo imodoka igende, hari umugore ubara iruhande, ni abagabo batatu bari gukora ako kazi.

Umugore wambaye imyenda yirabura, ateze agatambaro k'ikigina, ari kumwe n'abandi bantu babiri, bari mu muceri mo hagati, barimo barawusarura kugira ngo bazawuhe abawugura, babahe amafaranga.

Bari iruhande rw'inanasi ni abagabo n'abagore ni koperative yishyize hamwe, bose bambaye imipira y'ubururu nk'ikimenyetso kibaranga, hagati muri bo hari umugabo uri kubabwira afite mikoro mu ntoki.

Umugore uhagaze ahantu hari inkoko nyinshi zitandukanye, bigaragara ko agiye kuzigaburira kugira ngo nawe azagire icyo azikuraho.

Bicaye hamwe bari imbere y'amamashini, buri wese afiti iye, ni abagore n'abagabo, barahuze basa naho bari mu bitabo, ni abagize koperative.

Ababyeyi babiri bari kumwe n'undi wa gatatu umezeze nk'aho akiri umukobwa, yambaye agapira k'umweru ndetse n'abandi bari inyuma yabo bambaye udupira tw'umweru, bari kumurika igikorwa bakoze cy'ikigishushanyo, ni koperative.

Bicaye hamwe ni abagabo n'abagore bambaye imipira y'amarakosite y'umweru bafite ibigori mu ntoki zabo bisa nkaho basoje inama cyangwa indi mirimo yabahuzaga bari kurya ibigori hamwe.

Ni muri bare aho hari ibikoresho byinshi, hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye nk'ibyo kunywa, ku meza hari amacupa menshi nk'aya byeri ndetse n'andi.., kugira ngo abaza kuyakira baze kuyahasanga.

Ni muri bare aho hari icyapa kinini cyane cy'umuhondo, cyandikishijeho ibara ry'umutuku amagambo sikoro, byerekana ko hari n'izo nzoga za sikoro.

Icyapa kinini cyanditseho skol, kigaragaza ko aho hantu hari ibyo kunywa ndetse birimo na skol, ni muri bare ahantu mu mujyi.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, intebe nziza, ameza, ibitambaro byayo ndetse hari n'agataka gashinzwe kurinda abantu izuba. Ni muri bale aho ushobora kujya ukiyakira.

Umumama w'inzobe afite ibintu mu ntoki bimeze nk'amafaranga, ari muri botike aracuruje ,hari ibintu byinshi nk'amajyane, amakotegisi y'abakobwa n'ibindi byinshi arabicuruza.

Iyi ni butike ikaba irimo ibicuruzwa bitandukanye amavuta y'ubuto, imifuka y'umuceri, imifuka ya kawunga, amaji, amabiswi, ibintu byinshi byose wabihasanga byo kurya.

Iyi ni butike, irimo amakayi, amakayi akaba yifashishwa n'abanyeshuri bagiye ku mashuri ndetse n'abandi bantu bakeneye kugira ibyo bandika, irabafasha.

Butike irimo ibintu byinshi bitandukanye, umunyu, isukari, umuceri n'ibindi byinshi nk'indagara, amavuta n'umuntu umwe, uri kubicuruza aho ategereje abakiriya.

Ni muri butike umuntu agiye guhaha ntarinjiramo imbere ari kubariza hanze abarimo imbere, ni inzu yubatse iriho n'ikirango cyerekana ko hari televiziyo ya canal.

Intebe ya palastiki, izi zikoreshwa mu bukwe no mu bindi birori bitandukanye, irateretse iri muri politiki aho umuntu ucuruza bisa nkaho ayicayemo agahaguruka agiye guhereza umukiriya.

Ni mu isoko hari imyenda y'abamama, ni myinshi hari amamashini adoda, n'abantu bari kudoda nk'abagabo, n'abakobwa n'abandi bantu, hari n'ibikapu byo gutwaramo, ibintu.

Aracuruje ategereje abakiriya ni muri butike irimo ibintu byinshi bitandukanye, hari ibyo kurya, hari ibyo kunywa, hari amavuta ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umugore uri muri butike ari kuvanga ifu, akaba afite n'ibindi bicuruzwa bitandukanye amavuta y'ubuto, impapuro z'isuku, amasabune n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Ni inyubako nziza cyane isa nkaho iri hagati y'ibiti, ni nyubako y'urusengero aho abantu baza gusengera hejuru hariho umusaraba igaragaza ko ari abakatolike bahasengera.

Bicaye mu ihema haradekoye neza cyane, imbere yabo hari ameza hariho indabyo, ibitambaro byiza by'amabara meza icyatsi n'umweru, ni mu rusengero barimo barasenga.

Bari mu nyubako itari yuzura neza, ni mu rusengero aho ari abakristo bo mu idini rya Gatolike, imbere yabo hari umusaraba ndetse hari n'amashusho ya Bikira Mariya.

Urusengero runini, rufite umuryango munini, rusa n'urushaje, rushakakaje amabati y'umutuku na yo asa n'ayashaje, hirya no hino hari ibiti birukikije.

Bari mu nyubako mo imbere ni korali iri imbere, iri guhimbaza Imana bambaye amakanzu maremare bamwe asa shokora abandi asa umukara haciyemo akabara k'umweru mu gatuza.

Abagabo batanu bambaye amakanzu maremare ndetse barengejeho n'andi yose yera atari mu ibara ry'umweru cyane, bari mu kiliziya aho bahagaze bari kwifotoza.

Ni inyubako igizwe n'intebe nyinshi, ni amasheze ariho imisego. Ni mu rusengero ndetse bategereje abakirisito ngo baze gusenga, mu rusengero bubatse neza, hari n'ibindi bikoresho bifashisha mu rusengero.

Ni mu rusengero, aho bubatse inyubako nyinshi, ni inyubako zubakishije amatafari ahiye, imbere hari igitambaro kinini kigaragaza ko ari ku rusengero, hino hari umuhanda.

Inyubako nziza cyane, hoteli cyangwa se moteri, hanze yabo hagaze abantu batandukanye b'abagabo, bambaye amakoti, ubonako baberewe cyane.

Perezida Poro KAGAME, ari mu nyubako aho yajyanye n'abandi bantu, bisa nkaho basoje ibyo bari barimo barasohotse, arangaje imbere y'abandi bantu.

Hoteri nziza cyane yubatse n'ibikoresho birimo, hari uburiri abaje kuruhuka baryamamo, ni hoteri nziza cyane ibamo n'ibyo kurya.

Ni muri hoteli aho hari urupapuro rushinzwe kukuyobora ibyo ufata utarinze kubaza, rwanditseho ibintu byose umuntu ashobora gufata yagiye muri hoteli.

Iki ni icyumba cyo muri hoteli cyangwa se moteri, akaba ari aho abantu barara harimo naho baganiriye, harasa neza, ari isuku kandi harakeyeye.

Ni muri hoteli, hari umuryango ukinguye ndetse hari n'akayira gakomeza mo imbere, ni ahantutu heza ushobora kujya ukaruhukira, hari ibikoresho byinshi byiza.

Hoteli yubatse neza iri ahantu hatari ku mugi cyane, hari ibiti biyikikije bishinzwe kuzana akayaga mu baje kwiyakirira muri iyo hoteli.

Ni muri hoteli aho hari ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa muri hoteli, hari isahane iriho ibiryo by'amoko menshi ku buryo abakiriya nibaza bari buhite babibona.

Intebe ziri ku kameza ni intebe z'ubururu, ni muri hoteri aho abantu bajya kwiyakirira, hari ibikoresho byinshi byagenewe gufasha abaje bwa mbere.

Hari ubusitani bwiza burimo n'ibiti byinshi bigaragaza ko hameze neza, ni inyubako nziza cyane yubakishije amabati ndetse n'amatafari ahiye, ni muri hoteli.

Hari ibyo kurya byiza ndetse n'ibyo kunywa ibyo kurya biri ku masahane hasi ku meza hariho ibyuma byifashishwa bizwi nka kuto ndetse n'ibiyiko n'amafurusheti ni muri hoteri aho abantu bajya kwiyakirira.

Hari uburiri bushashe neza imbere yabwo hari akameza gatoya warambikaho nka telefone n'ibindi bikoresho ni muri hoteri hari na supanete ndetse n'amarido meza.

Iyi nyubako ni Hoteri, hanze yayo hari pisinine abantu bogeramo, hari intebe hari umutaka, iyi nzu ikaba ari igorofa igereretse kabiri.

Inyubako nziza n'iy'igorofa imbere yayo hari indabo, ndetse hari n'ubwogero bwa kizungu, ni inzu nziza, ni muri hoteli ishinzwe kwakira abantu ngo baruhuke.

Inyubako nziza yubakishije amabati meza iriho ibirahure byiza n'amarange, ni hoteli yakira abantu baturutse hirya no hino, ifite ubusitani bwiza imbere yayo.

Bari mu nama, ni abantu batatu bicaye, abandi babahagaze inyuma, imbere yabo hateretse mashine ndetse bari no muri hoteli niho iyo nama yabereye.

Ni muri hoteri, hari amasahani menshi, ku meza hari ibyo kunywa ndetse hari n'imigati, amasahani ariho ibyo kurya, ni ahantu heza, ushobora kujya ukiyakirira.

Mu isoko aho hari ibicuruzwa byinshi nk'ibitoki n'ibindi byinshi, harimo abantu benshi batandukanye, bamwe bari kujya gushaka imyenda, abandi barahagaze.

Ni mu isoko aho harimo abantu benshi batandukanye, hari abamama bari kugenda babaza imyenda, hari abana bato nabo baje mu isoko, hari inkweto, hari ibintu byinshi, amabase n'abantu batandukanye.

Ni mu isoko rusange hubatse utuzu twinshi twubakishije amashitingi ndetse tunasakaje ama shitingi, hejuru yatwo hari insinga nyinshi z'umuriro, mu inzira hari abamotari ndetse n'abanyamaguru bajya cyangwa bava guhaha.

Ni ikidomoro kinini cy'ubururu gitwikirijeho shitingi y'ubururu n'umweru, bagihagaze iruhande, barimo barakirereba bamwe bari gutambuka, ni abasore batagaragara mu maso.

Mu isoko rusange harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye imbuto z'amoko menshi nk'imyembe, imineke, watermelon n'ibindi byinshi ni byo biri mu iri soko.

Urubyiruko rugizwe n'abakobwa n'abahungu, bari mu muhanda barimo baratambuka, hirya y'ho hari isoko hacuruje ibintu byinshi bitandukanye. Ni mu isoko rusange.

Isoko ririmo kugaragaramo imyambaro igiye itandukanye cyane cyane higanjemo ibitenge biri mu mabara agiye atandukanye, umuhondo, icyatsi, umutuku, ubururu n'ibindi.

Bari mu gasoko gaciriritse ni abamama bicaye batanditse ibicuruzwa byabo hasi ku mifuka bategereje abaza kubagurira, abandi barahagaze bisa nkaho baje kugura.

Barahagaze, umugabo umwe afite ibikapu mu ntoki ndetse ari kugenda agurisha ndetse n'abandi barimo baracagura ibyo bashaka, ni mu isoko rusange.

Intama iraziritse ahantu iruhande rw'ibiti bitambitse n'ibindi bihagaze, hino yayo hari umuntu usa nkaho aje kuyireba, iri mu isoko aho bayijyanye kuyicuruza.

Ni mu isoko hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Hari imifuka, hari amabasi, ibikombe. Byose biri mu mabara atandukanye. Ni isoko rusange abaturage bajya guhahiramo.

Ni mu isoko aho bacuruje ibintu byinshi bitandukanye hari imbabura nyinshi zimeze nk'izifite ibyuma hasi, hejuru harimo ibumba zigiye zitoboye kugira ngo amakara azajya abasha kwaka neza.

Umunyamakuru watunze umugore mikoro ku munwa arimubaza uburyo iyi mbuto y'ibigori babashije kuyihinga bakeza ibigori bingana gutya kugira ngo babisangize n'abandi.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'umukara yikoreye mu mutwe tungurusumu n'ibitunguru byifashishwa n'abantu benshi abijyanye mu isoko, yambaye n'agakomo k'umukara ku kaboko.

Ni muri resitora aho abantu bajya kwiyakirira bafata ibyo kurya n'ibyo kunywa, hubatse neza harimo intebe n'ameza bishinzwe kwicaraho abantu baje kwiyakira.

Ni umumotari uri mu muhanda wa kaburimbo hirya hari ubusitani burimo n'ibiti ari mu muhanda ari kuri moto yambaye ijire y'umutuku na kasike y'umutuku.

Umugore wicaye mu modoka, yambaye hoteri mu gutwi kumwe, aratwaye, afashe kuri vola, inyuma ye hicaye umugabo bisa nkaho basetse, bishimye, bishimiye uko bari gutwara.

Bari ku igare, ni umugabo uhetse abantu babiri bahetse n'umuzigo hagati yabo, bambaye imyenda y'amabara atandukanye. Ni abagabo bari imbere y'inzu bari ku igare.

Abagabo babiri ni abamotari bahagaze mu muhanda hagati umwe yicaye kuri moto, akaguru kamwe gahagaze undi arahagaze bari kureba inyuma bose hirya hari abandi bagenzi ndetse n'imodoka.

Umukobwa wambaye amarineti ufite n'imisatsi, w'inzobe cyane atwaye imodoka nziza nayo iri mu ibara ry'umukara.

Umumotari ari kuri moto yambaye kasike y'umutuku, yambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umweru, ari mu muhanda wa kaburimbo ari kuri moto ari kugenda.